Abana b'abanyeshuri bakiri bato barimo kwiga, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye urugero rw'umuhondo ndetse n'ubururu, na none hari umwarimu w'umugore urimo kubigisha, na none hari ibikoresho bitandukanye byo kwicaraho urugero nk'intebe.

Abanyeshuri bakiri bato bambaye impuzankano ifite amabara atandukanye by'umwihariko nk'ibara ry'umuhondo, barimo kwiga bicaye ku bikoresho bitandukanye bikozwe mu biti, na none kandi hari umurezi urimo kubigisha.

Abanyeshuri bari mu cyumba k'ishuri bicaye ku bikoresho bikozwe mu biti bita intebe, bakaba bambaye impuzankano ifite amabara atandukanye nanone kandi bafite ibikoresho bitandukanye byo kwigiramo urugero nk'ibitabo.

Abana batandukanye bakiri bato, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bahuriye hamwe kugira ngo bigishwe. Aho umurezi arimo kubigisha ibintu bitandukanye, bibafasha gukangura ubwonko bwabo.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru hejuru, bicaye mu cyumba cy'ishuri, bakaba bicaye ku bikoresho bitandukanye by'umwihariko ibikozwe mu biti, nanone kandi bafite n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kwiga nanone kandi muri iki cyumba cy'ishuri harimo ibikoresho bitandukanye, urugero nk'ikibaho cy'umukara ndetse n'amezaza.

Ibikoresho bitandukanye byometse ku rukuta, byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri, urugero nk'ibishushanyo by'inyamanswa zitandukanye, urugero nk'inka, intama, urukwavu ndetse n'inkoko, na none kandi hari ibishushanyo bishushanyijeho inyuguti zitandukanye n'inyajwi.

Abanyeshuri bakiri bato batandukanye, bari ku ishuri aho bari mu gihe cyo gukina, bakaba bambaye imyenda y'amabara atandukanye, iruhande rw'abanyeshuri hateye ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'ibiti ndetse n'indabo, bikaba bikurura umwuka mwiza bahumeka.

Abanyeshuri batandukanye bicaye mu ishuri hasi, barimo kwiga ibintu bitandukanye, na none hari abarimu batandukanye barimo kwigisha abanyeshuri, na none hari ibikoresho bitandukanye barimo kwifashisha bigisha abanyeshuri, urugero nk'ikibaho cy'umukara ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri bakiri bato batandukanye bicaye hasi mu byatsi aho barimo kwiga, bakaba bambaye impuzankano ifite amabara atandukanye na none kandi bafite ibikoresho byo kwigiramo urugero nk'ibikapu birimo amakaye yo kwigiraho na none kandi hari umurezi urimo kwigisha umwana kwandika.

Abana bakiri bato benshi cyane bahuriye hamwe bambaye impuzankano igiye itandukanye kandi ifite amabara atandukanye, barimo kwigishwa n'abarezi babo babigisha gukoma amashyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nanone kandi iruhande rwabo hateye ibimera bi bitandukanye urugero nk'imibyare ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye, na nonene kandi iruhande rwabo hubatse amazu agiye atandukanye.

Imwe mu nyubako y'ikigo cy'ishuri yubakishijwe amatafari ahiye kandi ikaba ifite inzugi zifite irangi ry'umukara ndetse n'amadirishya afite irangi ry'umukara, ikaba yifashishwa mu guteka ibiryo by'abanyeshuri.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu bwererutse hejuru ndetse n'ibara ry'itaka hasi, bari mu nzira na none kandi bahetse ibikapu birimo amakayi yo kwigiraho mu gihe bari ku ishuri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi mu kwigisha abanyeshuri batandukanye, urugero nk'ibitabo bikaba bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi ndetse n'andi mabara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu hejuru ndetse n'igitakazi hasi, bakaba bafite ibikoresho bitandukanye bariramo iyo bari ku ishuri, nanone bahetse ibikapu mu mugongo birimo amakayi yo kwigiraho.

Akabati gakozwe mu biti karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, urugero nk'ibitabo by'amateka, ibitabo by'imibare ndetse n'ibitabo by'indimi. Na none kandi bifite amabara atandukanye.

Inyubako z'amashuri zishaje zifashishwa mu kwigirwamo, zikaba zubakishije amatafari ahiye, na none kandi zikaba zishakakaje amategura, na none hari abanyeshuri batandukanye bifashisha izi nyubako zishaje mu gihe bari kwiga.

Abanyeshuri bakiri bato bari mu cyumba cy'ishuri bigiramo, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, urugero: nk'intebe zikozwe mu biti zo kwicaraho. Na none hari ikibaho cy'umukara, cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kucyandikaho bakoresheje ingwa.

Ikigo cy'ishuri cyifashishwa mu kwigisha abanyeshuri batandukanye by'umwihariko abanyeshuri biga ururimi rw'amarenga, na none kandi hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri ururimi rw'amarenga urugero nk'inyajwi ndetse n'imibare.

Ishuri ryifashishwa n'abanyeshuri batandukanye, mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi butandukanye. Rifite urugi rukozwe mu cyuma ndetse n'idirishya rikozwe mu cyuma. Na none kandi idirishya rifite ibirahuri. Na none hari abanyeshuri bahagaze imbere y'ishuri ryabo bigamo.

Ikigo cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye, na none kikaba gikikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, na none hari abanyeshuri batandukanye, bari kujya kwiga, bafite ibikapu birimo amakayi yo kwigiraho.

Umunyeshuri w'umuhungu wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru, afite igikoresho kigezweho cy'ikoranabuhanga kimufasha kwiga kizwi ku izina rya mudasobwa, gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi na none kandi hari igikoresho gikozwe mu biti cyitwa intebe.

Itsinda ry'abanyeshuri bakiri bato bahuriye hamwe mu ishuri aho barimo baganira, bakaba bambaye impuzangano ifite ibara ritandukanye, urugero hari nk'abambaye impuzangano ifite ibara ry'ubururu, na none kandi harimo n'abandi bambaye impuzangano ifite ibara rijya gusa igitakazi.

Icyumba cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi butandukanye, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga. Urugero nk'ikibaho cy'umukara, ameza akozwe mu biti, intebe ndetse n'umubumbe w'isi ugaragaza ibihugu bitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye bicaye ku ishuri, bambaye impuzankano ifite amabara atandukanye na none kandi bafite ibikapu birimo ibikoresho byo kwigana urugero nk'amakaye ndetse n'amakaramu.

Abanyeshuri batatu bambaye impuzangano ifite ibara ry'ubururu ryerurutse hejuru ndetse n'ibara ry'igitakazi hasi, bakaba bagiye ku ishuri guhabwa ubumenyi bubafasha kugira ubwenge.

Ikigo cy'ishuri gifite ibyumba bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri batandukanye mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, bifite inzugi zikozwe mu byuma ndetse n'amadirishya akozwe mu byuma, bikaba biteye amarangi y'icyatsi.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga bahabwa ubumenyi, urugero nk'ikibaho cyo kwandikaho na none kandi hari igishushanyo gishushanyijeho ibice bitandukanye bya mudasobwa.

Inyubako y'ishuri yabugenewe yifashishwa mu kwigisha abana ndetse no kubaha ubumenyi, by'umwihariko aho iki kigo cy'ishuri cyibanda ku bana bakiri bato na none kandi hari abana bakiri bato baje kwigishwa ndetse no kurererwa kuri iki kigo, kugira ngo bahabwe ubumenyi na none kandi hari umwarimu ufasha aba bana kugira ngo bagire ubumenyi butandukanye.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzangano ifite ibara ry'ubururu rwerurutse hejuru ndetse n'igitakazi hasi, na none kandi bafite ibikapu mu mugongo birimo amakayi yo kwandikaho ndetse n'ayo kwigiramo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi, bizwi ku izina ry'ibitabo, bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umuhondo, ibara ry'umutuku ndetse n'andi mabara atandukanye.

Icyumba cyo ku ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga amasomo atandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gihe barimo kwiga urugero nk'ikibaho cy'umukara kikaba cyanditseho amasomo by'umwihariko isomo ry'imibare.

Abana batandukanye bahagaze bakoze uruziga barimo kwigishwa, bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye na none kandi bari kumwe n'umugabo ubakuriye urimo kubigisha na none iruhande rwabo hateye ibimera by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri batandukanye higanjemo abakobwa bakiri bato, bambaye impuzankano ifite ibara ryerurutse hejuru ndetse n'ibara ry'itaka hasi, bahagaze hanze y'ishuri aho bafite ibikapu birimo amakayi ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu gihe barimo kwiga.

Kimwe mu byumba byo ku ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye bikenerwa ku ishuri. By'umwihariko bikenerwa n'abanyeshuri kugira ngo byigirwemo. Urugero harimo nk'ibitabo by'amoko atandukanye na none kandi harimo ibindi bikoresho bikozwe mu biti byifashishwa mu kubika ibitabo by'amoko atandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga. Urugero nk'intebe zikozwe mu biti ndetse n'ameza na none kandi hari ingwa zifashishwa mu kwandika ku kibaho mu gihe bari kwiga, zifite amabara y'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zitandukanye zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, na none gikikijwe n'ibiti biteye iruhande rwacyo bikurura umwuka mwiza uhumekwa n'abanyeshuri biga kuri icyo kigo, na none kandi hari abanyeshuri batatu barimo kwerekeza ku kigo cy'ishuri, aho bagiye kwiga.

Kimwe mu byumba by'ikigo cy'ishuri, cyifashishwa n'abarimu, mu gihe bari kwigisha abanyeshuri. Kirimo ibikoresho bitandukanye, urugero: nk'intebe zo kwicaraho, ameza, ibitabo ndetse n'amakayi. Na none harimo abarimu bicayemo, barimo gutegura ibyo bari bwigishe abanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri, gifite ibyumba bitandukanye byubakishijwe amatafari ahiye, ndetse isakajwe amabati y'ubururu, yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, none hubatse uruzitiro rw'ibiti, none hateye ibiti by'amoko atandukanye bikurura umwuka mwiza.

Ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu mu gihe bari ku ishuri, urugero hari nk'amakaramu, yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwandika ibyo bize na none kandi hari n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abarimu mu gihe bari ku ishuri ndetse no mu gihe bari kwandika ibintu bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu biti byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga amasomo, urugero harimo nk'ibikoresho byo kwicaraho, urugero nk'intebe nanone kandi harimo akabati gafite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu nanone kandi harimo n'ibindi bikoresho byometse ku rukuta.

Ikigo cy'amashuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi, gifite inyubako zitandukanye zubakishijwe amatafari ahiye, ndetse risakajwe n'amabati y'ubururu, na none kandi hari ikibuga cyifashishwa n'abanyeshuri mu gukina imikino y'amaboko, na none hateye ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'indabyo zitandukanye.

Abanyeshuri bakiri bato, bambaye impuzangano, ifite ibara ritandukanye, by'umwihariko hari abambaye impuzangano ifite ibara ry'igitakazi, na none harimo n'abafite impozangano ifite ibara ry'ubururu. Bakaba barimo kwiga bakora imyitozo ngororamubiri. Na none kandi iruhande rwabo hateye ibiti ndetse n'ibindi bimera, bituma bagira umwuka mwiza bahumeka.

Ikigo cy'ishuri gifite inyubako zitandukanye, zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi na none kandi hari abarezi bahagaze imbere y'amashuri na none hari abanyeshuri batandukanye bicaye imbere y'amashuri bigamo.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, na none hari abanyeshuri batandukanye bahagaze imbere y'amashuri yabo, bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu bwererutse ndetse n'ibara ry'itaka hasi, na none bahetse ibikapu birimo amakayi bigiraho.

Abanyeshuri batandukanye higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'igitakazi, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, barimo kwigishwa n'abarimu babiri.

Ikigo cy'ishuri gifite ibyumba bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri batandukanye, iruhande rwacyo hateye ibimera by'amoko atandukanye bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka mu gihe bari kwiga.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru, iry'umukara, ndetse n'ibara ry'igitakazi, bakaba bahagaze hamwe aho barimo kwigishwa ndetse no guhabwa inama zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri batandukanye, bahuriye hamwe kugira ngo bidagadure, aho bari mu kibuga gikinirwamo imikino y'amaboko, nanone kandi iruhande rwabo hari ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, bikurura umwuka mwiza bahumeka mu gihe bari kwiga.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gifite ibyumba bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, na none hari ibirango biranga ikigo cy'ishuri, nanone kandi hari ibimera ndetse n'ibiti biteye iruhande rw'ikigo cy'ishuri.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, kikaba gifite amabara atandukanye urugero, nk'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'igitaka hasi, na none kandi iruhande rwacyo hateye indabo zitandukanye zikurura umwuka mwiza uhumekwa n'abanyeshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibara ry'igitakazi hasi, bahuriye hamwe munsi y'ibiti binini cyane aho bicaye hasi, na none kandi hari abarezi ndetse n'abayobozi barimo guha inama abanyeshuri.

Abanyeshuri batandukanye, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu barimo kwisusurutsa bidagadura babyina nanone kandi bari mu kibuga kifashishwa bakina imikino y'amaboko nanone kandi iruhande rw'ikibuga hateye ibiti by'amoko atandukanye, nanone kandi hari amashuri bigiramo.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'igitakazi hasi na none hari ikibuga bifashisha barimo gukina imikino itandukanye by'umwihariko imikino y'amaboko, bakaba bayikina nyuma yo kwiga amasomo.

Umurezi urimo kwandika ku kibaho cy'umukara akoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kwandika ku kibaho, urugero nk'ingwa y'umweru na none yambaye imyenda yabugenewe ifite amabara y'umweru na none kandi hari igikoresho bandikaho cyitwa ikibaho, gifite ibara ry'umukara.

Ikigo cy'ishuri gifite ibyumba bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi, imbere y'ikigo cy'ishuri hateye ibihingwa ndetse n'ibimera by'amoko atandukanye bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka, none kandi imbere y'ishuri hari ikinyabiziga gifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara.

Ishuri rya Birambo ryitiriwe Joseph, ryubakishije amatafari ahiye kandi risakajwe amabati y'umweru. Na none kandi hari abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibara ry'umukara hasi. Na none hari ibimera by'amoko atandukanye biteye impande y'ishuri, urugero nk'ibiti.

Ikigo cy'amashuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga kugira ngo babone ubumenyi butandukanye. Na none kandi kuri icyo kigo hari abantu batandukanye harimo n'abarezi bifashishwa mu kurera ndetse no kwigisha abanyeshuri baza bakigana. Na none kandi muri icyo kigo hateye indabyo ndetse n'ibindi bimera bitandukanye bikurura umwuka mwiza.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano isa, bari kumwe n'abarezi babo, bahagaze iruhande rw'inyubako y'ishuri, nanone kandi ku gikuta cy'ishuri handitse amagambo atandukanye, urugero nko gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura, ubutwari, ubunyangamugayo, gukunda umurimo no kuwunoza, isuku n'umutekano, ndetse n'ubunyarwanda.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, urugero, nk'intebe zikozwe mu biti zo kwicaraho, nanone hari ikibaho cyo kwandikaho, nanone kandi hari abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru, nanone bafite ibikoresho bitandukanye bibafashe kwiga, nanone hari umurezi uhagaze imbere y'abanyeshuri wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku.

Abanyeshuri batandukanye higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru, ndetse n'ibara ry'icyatsi cyijimye bakaba barimo kwiga kubyina.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu hejuru ndetse n'ibara ry'igitakazi hasi, bicaye mu byatsi aho barimo kwigishwa n'umwarimu wabo ibintu bitandukanye.

Ibikoresho by'amoko atandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi. Higanjemo ibitabo bitandukanye, ibivuga ku buzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye, higanjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, nanone kandi iruhande rwabo hateye ibimera by'amoko atandukanye bikurumba cyane.

Abanyeshuri batandukanye, higanjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano ifite amabara atandukanye, urugero nk'amabara y'umweru, bari kujya ku ishuri, nanone kandi bafite amakayi mu ntoki, ndetse bahetse n'ibikapu birimo amakayi yo kwigiraho.

Ikigo cy'ishuri gifite ibyumba bitandukanye byubakishijwe amatafari ahiye kandi bisakajwe amategura, n anone kandi ibikuta by'ishuri bifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'ubururu, na none kandi hari ibiti ndetse n'ibimera bihateye bifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'icyatsi.

Abanyeshuri benshi cyane biganjemo abahungu n'abakobwa, bicaye hasi mu byatsi bambaye impuzankano isa by'umwihariko ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibarara ry'igitaka hasi na none hari amashuri atandukanye yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, na none hari umurezi urimo kwigisha abanyeshuri bicaye mu byatsi abaha inama zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no mu guhabwa ubumenyi butandukanye. Kirimo ibikoresho bitandukanye urugero nk'intebe zikozwe mu biti zo kwicaraho na none hari ikibaho bifashisha bari kwandika. Handitseho ibintu bitandukanye byandikishijwe n'ingwa y'umweru ndetse n'ingwa y'umutuku n'iy'umuhondo.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, na none bafite ibikoresho byo kwigiramo urugero nk'amakayi, na none bicaye ku ntebe zikozwe mu biti.

Abanyeshuri batandukanye barimo kwidagadura bakina imikino y'amaboko, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umukara, umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Abanyeshuri batandukanye barimo kwidagadura bishimisha nyuma yo kwiga amasomo; aho bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, urugero nk'umutuku ndetse n'umweru; barimo gukina imikino itandukanye, urugero nk'imikino y'amaboko.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru aho barimo kwigishwa ibintu bitandukanye, na none hari umugabo uhagaze urimo kwigisha abanyeshuri bamuteze amatwi.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, cyubakishijwe amatafari ahiye kandi kikaba gishakajwe amabati y'ubururu na none kandi iruhande rwacyo hateye ibiti ndetse n'ibimera bikurura umwuka mwiza.

Abanyeshuri bahuriye hamwe, bambaye impuzankano ifite ibara ry'igitakazi hasi ndetse n'ibara ry'ubururu ryererutse hejuru, bahagaze mu kibuga gikinirwamo imikino y'amaboko, nanone kandi iruhande rwabo hateye ibiti by'amoko atandukanye, nanone hari inyubako z'amashuri bigiramo.

Ikigo cy'amashuri kigezweho kifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, kikaba gikikijwe n'ibimera bitandukanye, ibiti birebire ndetse n'indabyo na none hari ibyapa bitandukanye birangira abantu aho bakwiriye kunyura ndetse n'ibyapa biha abantu ikaze kuri iki kigo cy'ishuri.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa barimo gusohoka mu kigo bigamo, bambaye impuzangano ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'uburu hejuru ryerurutse, na none kandi ikigo bigamo cyubakishije amatafari ahiye, nanone kandi iruhande rwacyo hateye ibimera bitandukanye by'ibiti bikurura umwuka mwiza bahumeka.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho kikaba cyubatse impande y'umuhanda, na none kandi gikikijwe n'ibiti bitandukanye birebire bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka. Na none kandi hari umunyeshuri uri ku igare uje kwiga wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'igitaka hasi.

Icyumba cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga bahabwa amasomo atandukanye atuma bagira ubwenge ndetse n'ubumenyi, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, urugero nk'intebe, amakayi, ndetse n'ibitabo na none kandi hari ikibaho cyo kwandikaho mu gihe bari kwiga, na none harimo abanyeshuri ndetse n'umwarimu urimo kubigisha.

Ikigo cy'ishuri gifite ibyumba bitandukanye byubakishijwe amatafari ahiye kandi bisakajwe amabati y'umweru. Na none bifite inzugi zifite amabara y'umukara ndetse n'amadirishya afite amabara y'umukara ndetse n'ibirahure. Hari umunyeshuri uhagaze imbere y'ishuri wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'igitakazi.

Ikigo cy'ishuri gifite inyubako zitandukanye zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zikaba zisakajwe amabati y'ubururu na none kandi hateye ibiti by'amoko atandukanye, bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'igitakazi, aho bari kumwe n'umurezi wabo arimo kubigisha ibintu bitandukanye bibafasha kugira ubumenyi butandukanye ku bintu byinshi cyane.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri benshi cyane, bicaye mu cyumba kigari, bakaba bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, aho bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, bakaba barimo kwigishwa ndetse no guhabwa ubumenyi.

Abanyeshuri batandukanye bahuriye hamwe, aho barimo kwidagadura ndetse no kwirangaza kandi bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, bakaba bahuriye ahantu hagari kandi hatubutse, aho bari kwiga kubyina.

Ikigo cy'ishuri gifite inyubako zitandukanye zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu. Na none kandi hari ibirangantego by'Igihugu cy'u Rwanda. Na none hari abanyeshuri batandukanye barimo kwigishwa kubyina.

Intebe yicarwaho n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga ku ishuri, ikaba ikozwe mu bintu bitandukanye urugero by'umwihariko ikozwe n'imbaho zikozwe mu biti, nanone kandi igizwe n'ibyuma bifite ibara ry'umukara.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri, higanjemo ibitabo biri mu bikoresho byabugenewe bikozwe mu biti, nanone kandi bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe zikozwe mu biti na none kandi bafite ibikoresho bitandukanye byo kwigiramo urugero, nk'amakayi ndetse n'amakaramu yo kwandikisha mu gihe bari kwiga.

Abanyeshuri b'abakobwa babiri bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'igitakazi, barimo gukora amasuku ku mashuri yabo, bahanagura amadirishya ndetse n'ibirahure na none kandi bahagaze ku ntebe zikozwe mu biti.

Umunyeshuri w'umuhungu uri imbere ku kibaho, wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibara ry'umukara hasi, ari imbere ku kibaho cy'umukara aho arimo kwandika ku kibaho, yifashishije ibikoresho byabugenewe bita ingwa.

Inyubako zitandukanye z'amashuri zigirwamo n'abanyeshuri batandukanye. Nanone kandi hari urujya n'uruza rw'abanyeshuri ndetse n'abarezi ndetse n'abayobozi batandukanye. Nanone hari abanyeshuri barimo kwidagadura bakina imikino y'amaboko basusurutsa abayobozi ndetse n'abarezi.

Umunyeshuri w'umukobwa uri ku ishuri imbere ku kibaho, aho yambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibara ry'umukara hasi na none kandi ari imbere ku kibaho, aho arimo kwandika ibintu akuye ku gapapuro akoresheje ingwa y'umweru.

Ikigo cy'ishuri cyo muri Nyanza, cyifashishwa n'abanyeshuri batandukanye mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, na none hari ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'ibiti biteye mu kigo bikurura umwuka mwiza, na none hari ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abarezi n'ababyeyi b'abanyeshuri baje mu nama bahagaze mu kigo.

Icyumba cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga amasomo yabo ku ishuri. Harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri urugero, ikibaho cy'umukara cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kucyandikaho ndetse n'igihe bari kwiga. Handitseho ibintu bitandukanye abanyeshuri bize. Nanone kandi harimo ibindi bikoresho urugero, nk'ameza yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwandika.

Ikigo cy'ishuri cyubatswe mu buryo bugezweho cyubakishijwe amatafari ahiye. Nanone izi nyubako zifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umuhondo. Nanone hari abanyeshuri batandukanye bambaye impuzangano ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'igitaka hasi. Nanone hari abarezi batandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri.

Abanyeshuri batatu b'abakobwa bagiye kwiga, bambaye impuzangano ifite ibara ry'ubururu bwerurutse hejuru ndetse n'ibara ry'umukara, bahetse ibikapu mu mugongo birimo amakayi yo kwigiramo bageze ku ishuri.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri batandukanye, bagiye ku ishuri, bafite ibikoresho bitandukanye, urugero nk'ibiryamirwa, indobo, ibikapu birimo amakayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bari aho bategera imodoka, zigiye kubajyana ku ishuri.

Ikinyabiziga gifite amabara atandukanye, urugero: nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, kikaba cyifashishwa mu gutwara abanyeshuri, kibageza ku mashuri kugira ngo bige amasomo atandukanye kandi bahakure ubumenyi.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibara ry'ubururu hasi, bicaye mu cyumba kigari kinini, aho barimo kwigishwa ndetse no guhabwa amahugurwa n'abayobozi bakuru babakuriye.

Abanyeshuri batandukanye bari kujya kwiga, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzangano ifite ibara ry'ubururu hejuru ndetse n'ibara ry'igitakazi na none bahetse ibikapu birimo amakaye yo kwifashisha mu gihe bari kwiga.

Ikigo cy'ishuri gifite ibyumba bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi. Na none hateye ibiti by'amoko atandukanye bikurura umwuka mwiza. Na none hari ibibuga byo gukiniramo imikino y'amaboko.

Ikigo cy'amashuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no guhabwa ubumenyi. Inyubako zacyo zikaba zubabakijwe amatafari ahiye kandi zikaba zakajijwe amategura. Na none hatewe ibiti by'amoko atandukanye bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka.

Ikigo cy'amashuri cyifashishwa mu kwigisha abanyeshuri batandukanye, kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse kikaba gishakajwe amabati y'umweru ndetse n'ay'ubururu; nanone hari abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru, nanone hari ibirangantego by'ishuri.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bahuriye hamwe mu kigo cy'ishuri, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu ndetse n'igikakazi. Bicaye ku ntebe zikozwe mu biti na none kandi hari umuyobozi waje gusura abanyeshuri uhagaze imbere yabo.

Abanyeshuri batandukanye bicaye mu ishuri aho bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, bakaba bambaye impuzangano ifite amabara atandukanye na none kandi bafite ibikoresho bitandukanye byo kwigiramo urugero nk'amakayi na none hari umurezi uhagaze imbere yabo urimo kubigisha.

Abanyeshuri batandukanye bahuriye hamwe, aho bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'ibara ry'igitaka hasi, na none kandi hari ibiti ndetse n'ibimera bibakikije bibaha umwuka mwiza wo guhumeka, na none bari kumwe n'abarezi babo babigisha.

Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara, bari mu cyumba cy'ishuri aho barimo gukoresha ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, bibafasha kwiyungura ubumenyi butandukanye na none harimo ibindi bikoresho bitandukanye bikozwe mu biti.

Ibikoresho bigezweho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga ndetse barimo baniyungu n'ubumenyi, harimo nka mudasobwa na none hari abanyeshuri batandukanye barimo gukoresha ibikoresho bigezweho, bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu na none kandi harimo ibikoresho bikozwe mu biti byo kwicaraho ndetse n'ameza.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'igitakazi, barimo kwiga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa. Na none kandi hari ibikoresho bitandukanye biri mu ishuri, urugero nk'ameza akozwe mu biti ndetse n'ikibaho. Na none hari umwarimu urimo kubigisha wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri, yubakishijwe amatafari ahiye, kandi ikaba isakajwe n'amabati y'umweru, ikaba yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga kugira ngo bunguke ubumenyi, na none imbere y'iyo nyubako y'ikigo y'ishuri hahagaze abagore bane, bambaye imyenda ifite amabara y'umweru hejuru, ndetse n'ibara ry'umukara hasi.

Kimwe mu byumba byo ku ishuri kizwi ku izina nk'isomero, kirimo ibikoresho bitandukanye urugero nk'ibitabo bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu myigire yabo.

Ikigo cy'ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, kikaba gifite ibyumba bitandukanye byigirwamo n'abanyeshuri batandukanye, kikaba gifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Ubusitani bw'ishuri bugizwe n'indabyo zitandukanye ndetse n'ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'ibifite ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, na none hari abanyeshuri batandukanye bicaye mu busitani barimo kwiga.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga, urugero nk'ibikoresho bikozwe mu biti byo kwicaraho ndetse n'ameza, na none kandi hari ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kwandika.

Ikinyabiziga gifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, na none kandi iki kinyabiziga gifite ibara ry'ubururu, kikaba cyifashishwa mu gutwara abanyeshuri ba Kaminuza y'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako igezweho yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubatswe mu buryo bugerekeranye, ikaba yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, iruhande rwayo hateye ibiti by'amoko atandukanye bikurura umwuka mwiza uhumekwa n'abanyeshuri.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, urugero nk'ibikoresho byo kwicaraho bita intebe bikozwe mu biti ndetse n'ameza, na none kandi hari ibikoresho bitandukanye, urugero nk'ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Inyubako igezweho yubatswe mu buryo bugezweho aho yubatswe igeretse, ikaba yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi. Iruhande rw'iyi nyubako hateye ibimera bitandukanye, urugero nk'ibiti ndetse n'ibindi bimera urugoro nk'indabo, bikaba bikurura umwuka mwiza uhumekwa n'abanyeshuri.

Icyumba kigezweho cyo ku ishuri, cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga. Kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, urugero: nk'intebe zo kwicaraho zikozwe mu biti, ameza akozwe mu biti, ndetse n'ibikoresho bigezweho byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga ndetse bunguka n'ubumenyi. Harimo ibikoresho bitandukanye, urugero: nk'intebe zo kwicaraho, izikozwe mu biti, ndetse n'izikozwe mu bindi bikoresho. Na none hari ameza akozwe mu biti yo kwandikiraho, mu gihe abanyeshuri bari kwiga. Na none harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga.

Inyubako zigezweho kandi ndende zubatswe mu buryo bugezweho aho zigerekeranyije, zikaba zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, iruhande rwazo hateye ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'indabo bikurura umwuka mwiza uhumekwa n'abanyeshuri, nanone hari abantu batandukanye harimo nk'abanyeshuri bagiye kwiga ndetse n'abandi bantu barimo kugenda.

Abakobwa babiri b'abanyeshuri barimo gusubiramo amasomo yabo bakoresheje ibikoresho bitandukanye urugero nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga byitwa mudasobwa, na none kandi bafite amakaye arimo ibyo bize.

Inyubako ndende kandi igezweho ifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi, imbere yayo hari ibimera bitandukanye bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka.

Ikigo cy'ishuri kigezweho cyubatswe mu buryo bugezweho, cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi, iruhande rwacyo hateye ibimera by'amoko atandukanye urugero nk'ibiti, na none kandi hari ikibuga cyifashishwa n'abanyeshuri mu gukina umukino w'intoki.

Abarezi batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bafite ibikoresho bitandukanye, bifashisha mu gihe barimo kwigisha abanyeshuri, urugero: nk'ibikoresho bita mudasobwa, na none kandi hari ibikoresho bikozwe mu biti, urugero: nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza.

Abantu batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu cyumba kigari cyane, aho barimo kwigishwa n'umuntu uhagaze imbere yabo, bakaba bafite ibikoresho bitandukanye barimo gukoresha biga urugero nk'amakaramu ndetse n'amakaye, na none kandi bicaye ku ntebe zikozwe mu biti.

Icyumba cy'ishuri kigezweho, cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga. Kirimo ibikoresho bitandukanye bigezweho, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cy'amasomo. Urugero: harimo nk'intebe zitandukanye, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bigezweho, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Icyumba cyo ku ishuri cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri barimo bahabwa amasomo, kirimo ibikoresho bitandukanye urugero nk'ibitanda, ibiryamirwa, ibyiyoroswa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, birimo amazi yo kunywa na none harimo imyenda itandukanye y'abanyeshuri.

Icyumba cy'ishuri kigezweho cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga amasomo atandukanye abungura ubumenyi. Harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha urugero nk'ikibaho cy'umweru cyifashishwa mu gihe barimo kwandika. Na none kandi harimo ibindi bikoresho urugero nk'ameza ndetse n'intebe zifashishwa n'abanyeshuri. Na none kandi harimo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Ubusitani bw'ikigo cy'ishuri, bugizwe n'ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'ibimera birandaranda ndetse n'indabyo z'amoko atandukanye, urugero nk'izifite amabara y'umutuku. Nanone kandi hari inyubako z'amashuri, zigirwamo n'abanyeshuri batandukanye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu, bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi ,na none hari umurezi urimo gusukura ibikoresho bakoresha bigisha abanyeshuri.

Icyumba kigari kigezweho kirimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi, harimo ibikoresho bifite ibara ry'umweru, ibara ry'umukara ndetse n'ibifite ibara ry'igitakazi, akaba ari ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, urugero nk'intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'ibijyamirwa n'ibyiyoroswa. Na none kandi hari ibikoresho bitandukanye, urugero nk'amakayi, amakaramu, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga.

Icyumba kigezweho gifite isuku kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, urugero harimo nk'ibikoresho bigezweho bita utubati. Na none kandi hari n'ibindi bikoresho bitandukanye bimanitse ku rukuta, urugero nk'amafoto ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bigezweho.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, kugira ngo biyungure ubumenyi, urugero hari nk'ibitabo bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, na none kandi hari ibikoresho bikozwe mu biti urugero nk'intebe ndetse n'ameza, na none hari akabati kabitsemo ibitabo gakozwe mu biti.

Kimwe mu byumba byo ku ishuri kigari cyifashishwa n'abarezi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi mu gihe bagiye kurya, urugero harimo nk'ameza, intebe zo kwicaraho na none kandi harimo amafunguro atandukanye agiye kuribwa n'abarezi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri, urugero utubati dukozwe mu biti, ndetse n'intebe zo kwicaraho zikozwe mu biti, kandi hari ameza akozwe mu biti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri.

Ikigo cy'ishuri cyubatswe mu buryo bugezweho, kikaba gifite ibyumba bitandukanye, cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga. Na none imbere y'amashuri hateye indabyo zifite amabara y'icyatsi.

Abanyeshuri batandukanye bari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bibafasha kwiga neza, by'umwihariko aho barimo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, bibafasha gusobanukirwa ibintu ndetse no kureba ibintu bidapfa kugaragara.

Icyumba cyo ku ishuri kifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, by'umwihariko kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye, urugero nk'ibitanda, ibiryamirwa, ibyiyoroswa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyumba kigari kandi kinini kirimo abantu benshi cyane bicaye ku bikoresho bitandukanye, by'umwihariko bikozwe mu biti ndetse no mu byuma, bakaba barimo kwigishwa no guhabwa amahugurwa na none kandi bafite ibikoresho bitandukanye, urugero nk'amakaye ndetse n'amakaramu yo kwandika ibyo barimo kwiga.

Kimwe mu byumba byo ku ishuri byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu, urugero nk'intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'ibindi bikoresho birimo amazi yo kunywa.

Icyumba cy'ishuri kigezweho, cyifashishwa n'abanyeshuri igihe bari kwiga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, urugero nk'ikibaho cy'umweru. Na none kandi harimo n'ibindi bikoresho, urugero nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo kwandikiraho, mu gihe abanyeshuri barimo kwiga.

Inyubako zitandukanye z'ikigo k'ishuri, zikeye kandi zifite isuku zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, iruhande rw'izo nyubako hari ibiti bihateye bikurura umwuka mwiza, none kandi hari indabo nanone kandi hari abantu bashinzwe gucunga umutekano w'abanyeshuri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri, urugero nk'ibikapu binini biba birimo amakaye ndetse n'ibitabo byo kwigiramo, nonene kandi, hari ibitanda ndetse n'ibiryamirwa byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri, nanone hari ibikoresho bikozwe mu biti, urugero nk'intebe yo kwicaraho.

Abasore n'inkumi bahuriye hamwe, mu cyumba kigari, aho bicaye ku bikoresho bigezweho, bikozwe mu byuma. Bakaba barimo kwigishwa no guhabwa amahugurwa atandukanye, abafasha kwiyungura ubumenyi.

Inyubako z'ikigo cy'ishuri zubakishijwe amatafari ahiye kandi zisakajwe amabati y'umutuku, zikaba zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, nanone kandi hari ibiti by'amoko atandukanye biteye iruhande rwabyo bifite amabara y'icyatsi.

Abantu batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu cyumba ku bikoresho byabugenewe urugero nk'intebe, aho barimo kwigishwa na none harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa barimo kwifashisha biga.

Kimwe mu byumba by'ishuri kigirwamo n'abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bunguke ubumenyi. Kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri. Urugero nk'intebe zitandukanye, ndetse n'ameza akozwe mu bikoresho by'ibiti.

Kimwe mu byumba bigezweho byo ku ishuri, cyifashishwa n'abanyeshuri barwaye by'umwihariko abanyeshuri b'abakobwa, kirimo ibikoresho bitandukanye urugero nk'ibiryamirwa, iby'iyoroswa ndetse n'ibyegamirwa, na none kandi hari aho gukarabira intoki.

Kimwe mu byumba byo ku ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu, by'umwihariko abanyeshuri, urugero harimo nk'ibitabo by'amoko atandukanye, nanone kandi harimo ibikoresho bikozwe mu biti byifashishwa mu kubika ibitabo abanyeshuri bigiramo.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri batandukanye kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri. Urugero nk'ibikoresho bigezweho byitwa mudasobwa. Na none kandi harimo ikibaho cy'umweru cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga. Na none harimo intebe zikozwe mu biti zicarwaho n'abanyeshuri.

Ibikoresho bitandukanye, biri mu cyumba cy'ishuri, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, urugero nk'ibikoresho byo kwicaraho bikozwe mu biti. Na none hari ikibaho cy'umweru cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, na none hari abarezi bahagaze mu cyumba cy'ishuri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, mu gihe barimo kwiga ndetse, baniyungura ubumenyi. Harimo nk'amakayi yo kwandikamo, ibitabo, ndetse n'amakaramu. Nonene kandi hari ibindi bikoresho bikozwe mu biti urugero, nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'amezi yo kwandikiraho.

Icyumba kigezweho kandi kigari, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, urugero nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi ku izina nka Mudasobwa, na none kandi harimo ibindi bikoresho bitandukanye, urugero nk'ameza, utubati ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi bahuriye hamwe mu cyumba cyo ku ishuri, aho barimo guhabwa ubumenyi, bakaba bafite ibikoresho bitandukanye, urugero nka terefoni, amakaramu ndetse n'ibitabo, na none kandi muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu biti urugero, nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza, na none harimo ikibaho cy'umukara ndetse n'umwarimu urimo kubigisha.